Umugore n'umugabo barimo kuganira urabona ko bahuje urugwiro ku maso, ibintu bigaragara ko bishimye cyane.

Aha mu bikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, byo gufasha abahuye n'impanuka. Bita gutabara imbabare mu buvuzi bw'ibanze. Ubona ko abaturage barimo kubyigishwa.

Ku kigo nderabuzima kimwe muganga ari kumwe n'umurwayi barimo kugenda baganira kuri serivisi zitandukanye ashaka guhabwa.

Mu iduka ry'amatungo, harimo ibikoresho, bitandukanye, byifashishwa bw'amatungo, byinshi cyane.

ibirahuri birimo ibimera ndetse n'amazi, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikibabi hano hari ikimera ku kibabi, ikimera gifite imbuto ndetse n'ibibabi byinshi cyane.